Umwana wiga mu mashuri abanza, wambaye imyenda y'ishuri isa ubururu n'ishati y'umweru ari kuri robine, akaraba intoki ngo anywe amazi akoresheje intoki, hirya ye hari abandi bana bambaye imyenda isa n'iyo yambaye, hubatse n'amashuri.

Abana ni abaganga bambaye amataburiya, bakaba bambaye udupfukamunwa, bakaba barimo kuvura abarwayi, baryamye ku gitanda cyo kwa muganga.